Mu isuzumiro harimo intebe, poubelle bajugunyamo imyanda yamaze gukoreshwa, intebe muganga yicaramo yakira umurwayi, ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu gusuzuma umurwayi.

Icyumba kirimo ibikoresho byabugenewe kifashisha mu gusuzuma ibizamini by'abarwayi urugero nk'imisarane, amaraso ndetse harimo n'isaha bifashisha bari kubara igihe ibizamini bishobora kumara muri laboratware.